Bara bacururizamo ibintu bitandukanye byo kunywa, abahageze bose barabakira bakabaha ibyo bakeneye kunywa mu mubiri wabo.

Bare imeze neza yubatswe neza, iriho ibitako byiza bifite amabengeza, ariho n'abaseriveri bameze neza, bambaye imyenda yabugenewe kugira ngo isuku ibe nyinshi.

Bara igaragara neza, yubatswe neza, ifite amatara menshi kandi meza, ubona ko ari ahantu hakeye abantu bose bifuza kuruhukira.

Abakozi bo mu gikoni, iyo bagiye kotsa inyama bambara imyenda yabugenewe, kugira ngo abo babijyanira babone ko bafite isuku.

Bare bacuruzamo ibintu bitandukanye, hariho aho kwicara hameze neza, hatuje ntakibazo hafite, hateyeho n'indabo nziza z'amakoma zitanga akayaga keza.

Bare imeze neza kandi isa neza, ubona ko iri ahantu hatuje abantu bahagana bajye kuhashaka icyo kunywa ndetse n'icyo kurya, mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi.

Igitoki gitetsemo ifiriti kiba kiryoshye kikagira n'intungamubiri mu buzima bw'umuntu, kandi bigatuma umuntu amererwa neza mu buzima bwe bwa buri munsi.

Kabare ifite ahantu ho kwicara, hari ibiti bitanga amahumbezi na pisine, ni ahantu hameze neza.

Bara imeze neza isa neza irimo ibyokunywa byose by'ubwoko bwose butandukanye, abantu bahagana bajye gushaka ibyo kunywa umuntu anywa.

Icyapa kigaragaza ko aho bacuruzaga gaze. Gaze barayigura bakayijyana mu ngo zabo, bakayitekaho kugira ngo ibiryo bateganyije guteka bishye vuba.

Icyapa kigaragaza ko aho bacuruza intebe z'ubwoko bwose, kandi nziza. Intebe bazikoresha bari kuzicaraho, abashyitsi babasuye bakicara ku ntebe nziza cyane.

Icyapa kigaragaza ko aho hari ahantu bacuruza ibintu bitandukanye abantu bagura mu buzima bwabo, bakoresha mu bintu bitandukanye.

Icyapa kigaragaza ko aho bacuruza imyenda yo kwambara, n'inzoga bita amusiteri, bacuruza n'amakoti atandukanye n'ayo bambara bagiye gukora ubukwe.

Botike igaragaza ko aho bacuruza ibyuma by'ikoranabuhanga, abantu baza kubigura, kugira ngo babikoreshe ibyagenewe bikoresha,

Butike bacuruzamo inzoga bita Amusiteri, hariho n’ibindi bitandukanye. Bari gucururiza mu nzu igeretse kabiri ya etaje. Ubona ko ari inzu nziza yubatswe neza cyane.

Icyapa kigaragaza ko aho bacuruza ibintu bitandukanye, hariho ibyanditseho zana, kugira ngo abantu babashe kubigura babahe amafaranga, nabo bakomeze kwiteza imbere.

Butike bacuruzamo ibintu by'ubwoko bwose, umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi, bafite ni igishushanyo bambitse imyenda igaragaza ibyo bacuruza aho.

Ikoranabuhanga rirakataje mu baturage bose, aho bamwe bakora ibintu bitandukanye bituma bakomeza kwiteza imbere, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Butike bacuruzamo gaze z'amashiga abiri, barazigura bakazijyana mu rugo bagatekaho, iyo ukeneye guteka ibiryo uri kwihuta ushyira ku mashyiga abiri bigahita bishya.

salo bogosheramo ibintu bitandukanye ,bakabasiga na mekapu, bakambika n'abageni . Hasi hariho icyapa cyanditsweho Rukara ,bigaragara ko aho bacuruza n'ibindi bintu.

Icyapa kigaragaza ko aho bacuruza inzoga yitwa Gatanu. Butike imeze neza, yubatswe neza. Imbere hari umuhanda wa kaburimbo, iruhande hari amatara, hasi hubakishijwe amapave.

Icyapa kigaragaza ko aho bacuruza ibiryo by'inkoko, banacuruza pampa z'abana zabugenewe.

Icyapa kigaragaza ko aho bacuruza ibintu bitandukanye, bamara kubigura bakabiha umumotari akabikujyanira aho uba ukeneye kubijyana.

Butike igaragazako aho bacuruza ibintu bitandukanye byo kunywa birimo ubwoko bwose, hashushanyijeho icyapa cy'ibirunga, hariho ingagi ndetse n'ibikona ari ahantu heza.

Butiki bacuruza ibintu bitandukanye byo kunywa: ji na Fanta, n'amabombo mu bicupa, na avoka. Abantu baraza bakabigura, bakabaha amafaranga atuma biteza imbere.

Botike igaragaza ko aho hari icyapa, kigaragaza ko aho hari icyo kunywa cya sikoro, iruhande haparitse imodoka zimeze neza, hariho n'ibindi bituma haza amahumbezi meza.

Icyapa kigaragaza ko aho bacuruza ibintu bitandukanye, harimo na koka n'ibyo bita amahitamo ni ayawe, ibintu byose barabicuruza.

Isoko ry'inyongeramusaruro ni isoko ryiza abantu bakunda ari benshi rituma abantu babona ifumbire ku gihe kugira ngo babashe gutera ibihingwa bitandukanye.

Iyo abantu bafite ibibazo bitandukanye, bajya ku mirenge yabo, bakajya kureba abayobozi, bakababwira ibibazo byabo bafite, bakabafasha kubikemura.

Politiki bakoreramo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga bitandukanye, bakora amatelefone na za radiyo na kuteli byose barabicuruza kandi niyo byapfuye barabikora.

Butike bakoresha bari gucuruza ibintu bitandukanye umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Harimo ibitanda n'utubati n'aho bacuruza mu mutaka wa airtel, ibitunguru n'ubunyobwa, na karoti na pwavuro.

Iterambere ryaraje mu Rwanda, aho basigaye batanga imigozi yo gutanga amazi. Kugira ngo buri muturage wese iterambere rimugereho, ntihagire usigara nta mazi.

Ibikoresho abanyonzi bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, iyo bagize ikibazo babikoresha bifashisha, bavana abantu hamwe babajyana ahandi, bigatuma urugendo rugenda neza.

Icyapa kigaragaza ko aho bacuruza ibyo kurya harimo umuleti na keke. Bakaba bacuruza n’ibyo kunywa by’ubwoko bwose butandukanye. Hariho n’icyapa kigaragaza ko aho hacuruza umuvandimwe.

Igiti cyakuze neza, kimeze neza, ubona ko nta kibazo gifite, kiri impande y'amarembo yinjira mu rugo, hariho n'icyapa kigaragaza aho icyo bahakorera.

Butiki ifunguye, igaragaza ko aho bacuruza ibintu bitandukanye, hariho n'agati banitseho imyenda, hariho na kandagirukarabe, bigaragara ko aho hari isuku nyinshi.

Butike bacuruza ibintu bitandukanye, harimo n'amarangi hariho nu yagurisha, ari kuyacururiza mu nzu nziza, imeze neza, kandi iyo nzu igeretse kabiri, ubona ko ari nziza cyane.

Icyapa kigaragaza ko aho bacuruza ibyuma by'ikoranabuhanga, harimo amasaha, terefone na kuteri na za mashini n'imashini zo kogosha, haruguru hariho ikindi cyapa, bigaragaza ko aho bacuruza ibyo kurya.

Inzu nziza, yubatswe neza, isa neza cyane, iriho ibyapa bagaragaza ko bacuruza inyange, ituma abantu banywa bakagira ubuzima bwiza, bakomeza no kwiteza imbere.

Ikoranabuhanga ni ryiza aho bakubakira amashyiga yo mu makaro, bagashyiramo amakara maze bagaterekaho imbabura, bagateka ibiryo bigashya vuba.

Icyapa kigaragaza ko aho bacururizaho ibintu bitandukanye, umuntu akenera kurya mu buzima bwe bwa buri munsi, kugira ngo ubuzima bwe bumere neza.

Butike bacurururizamo imikufi yo muzosi n'ibikomo byo kwambara mu ntoki, kugira ngo umuntu agaragare neza.

Banki abantu bakoresha ari benshi cyane, bahaza baje kubikuza amafaranga cyangwa baje kubitsa amafaranga yabo mu bwishingizi.

Botike igaragaza ko aho bacuruza ibikapu, imifuka, ibitenge, na mitiyu, n'ibyo bifashisha bashaka igikoma cyo kunywa, umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi.

Butiki bacuruzamo ibintu bitandukanye by’ikoranabuhanga. Abantu baza baje kubigura, bakabaha amafaranga, agatuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bintu.

Butike bakoramo ibintu bijyanye n'intebe cyangwa imisego iba irambitse ku mapave yubatswe neza, ubona ko ari ahantu hameze neza, banacuruza n'amamatera.

Butike bacuruyuruzamo ibintu bitandukanye umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi, imineke n'amatunda, n'amaronji, na puwavuro, babacuruza n'amakara n'imboga, umuntu akaza kubigura.

Ndabona icyapa kigaragaza ko hano hariho ubucuruzi burimo ibyanditsweho azamu, n'indobo zivamo irangi n'agacupa k'amavuta ibintu byose barabigira, kugirango bakunde babone abakiriya bo kubigurisha babahe amafaranga.

Ibyapa bigaragaza ko aho bajya baracuruza ibintu bitandukanye, abantu bajya barakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inzu nziza, zimeze neza, yubatswe neza cyane, igereretse kabiri, ubona ko hari inzu imeze neza, iteye amatsiko, bigaragara ko bakoreramo ibintu runaka.

Butike ifite igipangu cyiza cyubatswe neza. ifite n'uruzitiro ruriho indabo zimeze neza, hariho icyapa kigaragaza ko aho hariho ibintu umuntu akenera buri munsi.

Butiki bacuruzaho ibintu bitandukanye umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Harimo ibihaza, n’imifuka, n’udufuka dutoya bahahiramo, n’amakara yo gutekesha ibiryo.

Butike bacururizamo ibintu bitandukanye by'ubwoko bwose, n'amarangi abantu batera ku mazu yabo barayagura, kugira ngo bayatere ku mazu yabo ,maze inzu zabo zimere neza.

Botike bakora ibintu bitandukanye bijyanye n'amasuku y'abagore nko gukoresha inzara, no gusukisha mu mutwe, bakanigisha gusuka, bakabaha amafaranga bigatuma bakomeza kwiteza imbere mu mwuga wabo.

Iduka ricuruza imyenda ya siporo na baro zo gukina, harimo basikete na baro yo gukina y'amaboko na tenisi n'udutenesi two gukina, kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza, bakabacururiza na za godiyo.

Botike icuruza ibintu, umuntu akenera mu buzima bwa buri bumsi, hari n'ibirayi n'abamotari bashinzwe gutwara ibintu, umuntu aba yahashye, kugira ngo babimvane hamwe babijyane n'ahandi hatandukanye.

Abagore n'abagabo bambaye neza ubonako bagaragara neza, bambaye imyenda isa ari abakorali. Abakorali baririmba indirimbo nziza z'Imana zitandukanye.

Banki bakoresha abaturage muri rusange, bayikoresha baje kubitsa, abandi baje kubikuza, abandi baje kuyiguzamo , kugira ngo ayo mafaranga bayakoreshe bari kwiteza imbere.

Hoteri imeze neza isa neza yubatswe neza, aho abantu baza bayigana baje kuhasura cyangwa baje kuharara, bitewe n'ibintu runaka baba baje kuhakorera.

Hoteli imeze neza, isa neza, ifite indabo zikase neza, ubona ko ari ahantu hateye amabengeza hafite n'ibiti bijya biratanga akayaga kaho muri iyo hoteli.

Hoteri iri ahantu heza, isa neza, urabona ko ari ahantu hatuje, bafite n'imitaka yanditsweho henikeni. Bafite n'udutebe twiza, ari ahantu bakwakirira ugataha wishimye.

Icyapa kigaragaza ko hari ibyo kurya n'ibyo kunywa, kugira ngo abahanyura bashonje bajye kurya.

Hoteri ifite umuhanda mwiza cyane. Ku ruhande hariho n'indabo. Ifite n'ibiti byiza byakuze neza, bituma akayaga kaza muri iyo hoteli.

Isoko bacururizamo ibikoresho byo mu gikoni harimo amasiniya, udusahane, n'ibikombe, n'imitaka, n'amarushi, na terimusi, n'ibidomoro, n'amapanu ndetse n'icyo bakoresha kwaruza ibyo batetse ku ipanu maze umuntu akarya ibiryo bimeze neza.

Isoko ryiza rimeze neza bacuruzamo ibintu bitandukanye harimo: amavuta, umuceri, isukari, n'ifarini bakoresha bari guteka imikati, na papiyegenike bakoresha bagiye mu bwiherero, na mayoneze barya.

Isoko rimeze neza, risa neza bacuruza ibintu bitandukanye, umuntu akoresha mu buzima bwa buri munsi, imipira n'amapantaro n'imyenda bakoresha bagiye kuryama, bayigurisha kugira ngo babahe amafaranga, atuma bakomeza kwiteza imbere mu bindi bintu bitandukanye.

Isoko bacuruzamo ibyokurya, imigati, bagakora na keke bakoresha ,umuntu yakoresheje ibirori bitandukanye

Ibintu bakoresha harimo umwuko, udupata, indiga n'imitego y'imbeba, n'udusanduku bakoresha bari kwizigama, kugira ngo umuntu azagire icyo ageraho yizigamye amafaranga.

Imyumbati ni myiza yarakuze neza, iyo imaze gukura barayisarura bakayijyana mu isoko bakayigurisha bakabaha amafaranga, agatuma bakomeza kwiteza imbere ,no mu bindi bihingwa bitandukanye abantu bahinga.

Imashini ni imwe yakozwe mu ikoranabuhanga, umuntu yifashisha amenya amakuru atandukanye, nk'ayo hanze y'igihugu ndetse n'ayo mu Rwanda, bityo umuntu akamenya ibintu bitandukanye.

Igihingwa cy'inyanya n'intoryi ni igihingwa cyiza gikundwa n'abantu batari bake, baragihinga, bamara kugihinga bakabizana ku isoko bakabigurisha, bakabaha amafaranga, atuma akomeza kwiteza imbere, mu bindi bihingwa.

Isoko rihurirwamo n'abantu batandukanye bava hamwe abandi bajya ahandi kugirango bakomeze kwiteza imbere mu masoko atandukanye.

Isoko rimeze neza, risa neza ubona ko ricuruza ibintu bitandukanye, harimo: inanasi, amarongi n'ibindi bitandukanye, umuntu akenera kugura mu buzima bwe bwa buri munsi.

Imbuto zitandukanye, harimo amaronji, n'amapera, n'amatunda, n'ibinyomoro, ni ibiribwa bikundwa n'abantu batari bakeya, kubera ko barabigura bakabirya, maze bakagira ubuzima bwiza.

Marikuja ni itunda rikundwa n'abantu benshi, kuko riraryoha kandi rigira intungamubiri mu buzima bw'umuntu. Barayaca bakayajyana ku isoko andi bakayarya. Ayo bajyanye kw'isoko bakayagura bakabaha amafaranga.

Butike bacuruzamo ibikapu by'ubwoko butandukanye, harimo udusakoshi dutoya, n'ibikapu byisumbuyeho n'ibyo ababyeyi baba bafite abana bakoresha.

Isoko bacuruzamo ibintu bitandukanye bya buri munsi, umuntu akenera. Ibikapu by'abanyeshuri baba bagiye kwiga, n'amasakoshi abagore bakoresha bagiye ahantu hatandukanye.

Amavuta bako iyosha biziga ku mubiri, Giriserine na Kerere, n'inzembe bakoresha bakora isuku y'inzara za bo.

Isoko rimeze neza risa neza ririmo ibintu bitandukanye abantu bajyagamo gushakamo ibintu bakenera muzima bwabo bwa buri munsi.

Imikubuzo ni ibintu umuntu akenerara mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo umuntu agire isuku y'aho atuye, akajya akondora mu nzu, akanakondora no hanze, maze akagira isuku.

Isoko bacuruza ibintu bitandukanye, hepfo hari parikingi y'imodoka, iruhande hariho abamotari baba bategereje gutwara abantu, babavana hamwe babajyana ahandi hantu hatandukanye.

Ibirayi bimeze neza byakuze neza, ubona ko biteye amabengeza byatanze umusaruro mwinshi kandi mwiza, kugirango ugurishe babone amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere.

Intoryi ni igihingwa kiza gikundwa n'abantu benshi cyane. Barazihinga bakazisarura bakazijyana ku isoko, bakabaha amafaranga atuma bakomeza kwiteza imbere. Hamwe n'imiteja na yo barayihinga bakayijyana ku isoko bakabaha amafaranga.

Icyapa kigaragaza ko aho bacuruza, udufuka tw'umuceri na kawunga n'ibishyimbo n'ibigori, ibintu byose bitandukanye barabicuruza, ni mikoropesho na papiyejenike zitandukanye.

Amakara meza cyane, amakara bayakura mu biti, baca ibiti barangiza bakabicana byamara gusha, bakabitahura bagakuramo ayo makara bakajya kuyagurisha, abantu bakayagura bakabaha amafaranga bagatuma akomeza kwiteza imbere.

Abantu bari mu masoko bari gucuruza ibintu bitandukanye, ahantu hamwe hari imifuka, ahandi bari guturuka hirya no hino, baje kugura ibiri muri iryo soko.

Isoko ry'ibiribwa rimeze neza ririmo byose nk'inanasi, imineke, amaronji n'ibinyomoro, abantu babigura babirya kugira ngo ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza. Iyo biri kwera basoroma ibitonore bakabirya, cyangwa bakabijyana ku isoko bakabigurisha, bakabaha amafaranga.

Butike bacuruzamo ibintu bitandukanye, umuntu akoresha mu buzima bwa buri munsi bwo mu rugo, harimo: amasahane, ibikombe, amasafuriya, na porotomange, n'amasorori. Babaha amafaranga kugira ngo biteze imbere.